Kwa muganga ni hamwe tuboneraga serivisi z'ubuvuzi ,aho duhuraga n'abaganga bakadusuzuma indwara zitandukanye, bakaduha imiti zihuje n'uburwayi badusuzumye, bakatubwira n'uko tuzayinywa kugira ngo dukire vuba.

Isogo ni uruboga rw'ingirakamaro k'umubiri gwacu kuko turusoromaga tukaruteka tukarurya maze umubiri gwacu gukamererwa neza ,kandi urusogo turarusoromaga tukarugurisha tukabonamo amafaranga gadufashaga kwiteza imbere ,kandi urusogo rudufashaga kwivura indwara zimwe na zimwe turwifashishije.

Ibyatsi ndetse n'ibimera ni ingirakamaro, kuko bimwe bivagamo imiti zifashishwaga mu buvuzi gakondo mu kuvura abantu uburwayi butandukanye, kandi havagamo n'itabi abantu banywaga ndetse turanarigurishaga kugira ngo tubonemo amafaranga gashimishije, maze tugakoreshe twiteze imbere.

Ibyatsi ni byiza aho bimwe na bimwe bivagamo imiti gakondo zifashishwaga mu buvuzi bavura nk'abantu cyangwa se amatungo kurusha ziriya zikorerwaga mu nganda.

Ibyatsi ni ingirakamaro kuko bimwe babihaga amatungo, ibindi bikavamo imiti yifashishwaga ya gakondo, aho ibaga itandukanye n'ikorerwaga mu nganda, kuko yo ibaga ari iy'umwimerere ikavura neza, abantu bagakira vuba.

Gutera ibimera bitandukanye ni byiza nko gutera ikibonobono, aho iyo gikuze kivagamo inkingi bakundaga gushira mu bitoki, kugira ngo bitagwa kandi kivagamo n'imishingirizo yo gushingiriza imyaka zitandukanye. Kandi kivuraga n'amatungo iyo gagwaye ndetse kinatangaga imbuto iyo kimaze kwera.

Ibiti ni byiza nk'imigano aho zivagamo imishingirizo bashingirizaga imyaka kandi havagamo n'imbizo ndetse zimwe baziteraga mu mashamba kugira ngo inyamaswa zije zirabona ahantu ziba kandi ahantu ziri tuba tugomba kuhabungabunga kugira ngo zikure neza kuko zikururaga imvura ndetse zigatuma tunahumeka umwuka mwiza.

Ibimera bivagamo imiti gakondo zifashishwaga mu kuvura abantu ndetse n'inyamaswa, aho ziba zitandukanye n'izivaga mu nganda kuko zo ziba zifite ubudahangwarwa bukomeye.

Mu miti gakondo dusangamo imiti indukanye, nk'icyatsi cy'ikinyamata, kidufashaga kuvura indwara zimwe na zimwe, aho icyo cyatsi tucyisiga tugakira. Kandi icyo cyatsi tugisanga mu bisambu cyangwa se ahandi hantu mu ishyamba, bityo kikaba ari ingirakamaro ku buzima bwacu.